Umuyobozi wambaye ikarita y'akazi ndetse n'ishati yumweru, ufite uruvugiro mu ntoki ari kuganiriza abaturage bambaye impozangano y'ubururu bamuteze amatwi kugira ngo abahereze inama zinyuranye.

Abantu bicaye ahantu hamwe kandi bari mu nama itandukanye, bamwe muri bo bafite ameza ariho mudasobwa kugira ngo babashe gukurikirana amasomo bameze neza nta kibazo bitabagoye.

Umugore munini cyane wambaye ikanzu y'umweru n'agakoti gatukura, ari gutanga ikiganiro ku bayobozi bandi bicaye mu ntebe, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro bitukura.

Umuyobozi wambaye ibirahuri by'umukara imyenda y'ubururu afite uruvugiro mu ntoki ndetse na telefoni ari gutanga ikiganiro ku baturage bari hafi aho ngaho ku buryo bakiteza imbere bakurikije inama yabahaye.

Umuyobozi munini cyane wambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, ari ku ntebe y'umukara imbere ye hariho ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'uruvugiro bigaragara ko ari gutanga ikiganiro kubamukurikiye.

Abayobozi batandukanye mu nzego za leta bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza atetseho ibikoresho bari kwifashisha birimo amazi ndetse n'ikayi bari kwandikamo ikiganiro bari kugirana.

Umuyobozi uri gutanga ikiganiro imbere y'abaturage benshi, yambaye ikoti rijya kuba icyatsi rifite imisatsi miremire, n'uruvugiro mu ntoki.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu bicaye mu nzu mberabyombi bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari mudasobwa bari kwifashisha mu gufata ikiganiro ndetse n'amazi yo kunywa.

Abaturage bicaye ahantu hamwe biganjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abasore, bambaye impuzankano y'imipira y'ubururu ndetse n'icyatsi n'umuhondo, hafi aho ngaho bari mu nzu mbera byombi.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu bicaye ahantu hamwe bari mu nama, imbere yabo hariho ameza ateretseho amazi n'ingofero bari bambaye kugira ngo birinde ibiza.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo umugabo wambaye ingofero, ufite inda nini cyane n'umupira w'umweru, hariho undi bigaragara ko ari kwandika ibintu ku rupapuro.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu, bicaye ahantu hamwe kandi batuje, bambaye imyenda y'icyubahiro, imbere yabo hari abaturage bateze amatwi ibyo bari kubabwira.

Umuyobozi mu nzego zinyuranye za leta ari gutanga ikiganiro mu baturage b'ingeri nyinshi zitandukanye, barimo abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, na bo bateze amatwi kugirango babashe kugira ibyo bamwunganira.

Abantu bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'umutuku ziriho imisego. Hafi aho ngaho hari umuyobozi uhagaze imbere yabo, bigaragara ko arikubaha ikiganiro gitandukanye mu nzu mberabyombi.

Abaturage bicaye ku ntebe z'imbaho, bari kumva ikiganiro abayobozi babo bari kubagezaho mu nzego z'ibanze no gukemura amakimbirane baba bagiranye.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu, bicaye ahantu hamwe, bari kuganira ku bintu byagirira igihugu akamaro. Harimo ufite mudasobwa uri gutanga ikiganiro ku bandi basigaye.

Umuyobozi mu nzego zitandukanye z'ubugenzacyaha ari gutanga ikiganiro ku rubyiruko rwitabiriye amahugurwa atandukanye, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'amazi yo kunywa.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu bicaye ahantu hamwe mu nzu mberabyombi bambaye amakarita abaranga y'icyatsi, abenshi muri bo bafite amakoti y'imikara bigaragara ko batuje.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye ikoti ryo mu gitenge rifite uruvugiro mu ntoki ari gutanga ikiganiro ku baturage bamukurikiye kugira ngo abahereze ubufasha butandukanye.

Icyumba mberabyombi kimo abantu bambaye imyenda y'umweru bari mu nama bari kuganira ku bintu byagirira igihugu akamaro kandi bigatuma urubyiruko rwihangira umurimo wo gukora kugira ngo bave mu ngeso mbi.

Abayobozi batandukanye mu nzego zinyuranye z'ibihugu bakomokamo, bicaye mu nzu mberabyombi kugira ngo baganire ku bukungu ndetse n'imiterere y'ibihugu byabo, ngo babashe kubikura mu bukene.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu bicaye ahantu bamwe bari kwiga ibintu byinshi bitandukanye, imbere yabo hari ingaragaza amashusho bari kwigiraho kugira ngo barebe ibintu byinshi binyuranye.

Abayobozi mu nzego nyinshi zitandukanye z'igihugu, bicaye ahantu hamwe bari mu nama bari kuganira ku byagirira igihugu akamaro, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye ku buryo bameze neza cyane, imbere yabo hariho amazi bari kunywa.

Abagabo bageze kuri batanu, bicaye ahantu hamwe, bari kuganira kubyagirira imishinga yabo akamaro urabona ko bafite amafaranga menshi atandukanye cyane.

Umugabo munini cyane wambaye umupira w'umukara n'isaha ku kuboko, n'ingofero mu mutwe, imbere ye hari umugore ufite ikayi mu ntoki iriho impapuro, inyuma ye hari imodoka y'umuhondo.

Umunara muremure w'itumanaho, uriho amatara ndetse n'ibindi bintu byifashishwa kugira ngo babashe guhuza umuyoboro w'inzira ndetse ku bikoresho binyuranye by'ikoranabuhanga.

Umunara muremure uriho ibyuma by'umutuku ndetse n'iby'umweru. Hariho amatara ndetse n'insinga zifashishwa mu gutanga amakuru ku bindi bikoresho by'itumanaho.

Ingagi iri mu birunga iteruye akana iri mu ishyamba ritoshye rifite ifumbire kandi risukuye, hafi aho ngaho hari ibiti birebire biriho ikindi kimwe cyumye.

Umunara muremure w'ikoranabuhanga wubakishijwe ibyuma by'umutuku n'iby'umweru, muri byo harimwo umuriro w'amashanyarazi utuma iryo koranabuhanga ribasha kugera kuri buri umwe wese.

Umugore bigaragara ko ari umwe mu bagize abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, yicaye ku ntebe y'umukara afite imisatsi myiza kandi isukuye, inyuma ye hari ibendera riranga igihugu cy'u Rwanda.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye ishati y'umweru iciye amaboko, imbere ye hariho ameza ateretseho mudasobwa ari gukoresha mu mukazi ke kaburi munsi n'kirahuri kirimo amazi yo kunywa.

Agace kabugenewe karimo ibikoresho byagenewe gutunganya umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abaturage baturiye hafi aho ngaho bawifashishe mu bikorwa by'iterambere ryabo.

Imihanda ibiri bigaragara ko ari impanga itandukanijwe n'ubusitani butoya cyane kandi busukuye hirya yaho hari umuyoboro w'amashanyarazi uriho amatara amurikira abagenzi mu gihe cya nijoro.

Umuhanda munini cyane uri hafi y'inyubako zisukuye zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amarangi meza, ifite amadirishya abiri matoya n'ibiti biri hafi aho.

Uruzitiro runini cyane rwubakishijwe amatafari ahinye ndetse na sima, mo imbere hariho ibiti birebire cyane, ndetse n'umuriro ukoreshwa n'abantu batuye hafi aho mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'amabati atukura, hafi aho ngaho hari uruzitiro ruriho amabuye ndetse n'amatafari ahiye, ku buryo ubona ko ari ahantu hatari hatera imbere.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari iyo kwigirwamo, imbere yayo hari ubusitani bugufi cyane kandi busukuye, hari kandi igisenge cy'umutuku kiriho amabati ndetse n'amatiyo amanura amazi.

Umugore munini wambaye ikoti ririmo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, biragaragara ko ari kunyura mu muhanda wubatse neza kandi usukuye, inyuma ye hari inyubako nziza iriho ibirahuri.

Inyubako nziza zabugenewe zifashishwa mu bikorwa remezo bitandukanye, kandi bigirira igihugu akamaro, zirubakitse kandi imbere yazo hariho ubusitani buteguranywe ubuhanga, bwifashishwa mu kuyungura umwuka duhumeka.

Inyubako nziza cyane ziriho ibisenge bitukura n'amabati meza ariho amatiyo amanura amazi igihe imvura yaguye, biragaragara ko ari iz'ishuri zigirwamo n'abanyeshuri.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeretse hejuru yayo hari igisenge cy'umutuku ndetse n'inzugi zisa neza cyane, imbere yayo hari ikibuga kinini cyane cyagenewemo gukorerwamo ubusabane bwinshi.

Umuhanda munini cyane urimo amazu meza akorerwamo ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi, ndetse bakanabitunganya. Hariho kandi inzira y'abanyamaguru banyuramo kugira ngo babashe kujya kubigura.

Uruzitiro rwiza cyane kandi rurerure rugaragaza aho igororero rya Muhanga riherereye ndetse n'ibikorerwamo, hariho imibare igaragaza igihe ryubakiwe kandi rikorera.

Abayobozi mu nzego zinyuranye zirimo ubutabera, bambaye amakanzu atukura n'ingofero z'umukara bigaragara ko ari abanyamategeko, hafi aho ngaho hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore mwiza cyane wambaye ingofero y'umukara n'ikanzu y'umutuku w'umucamanza, arikunganira abandi mumategeko kugirango abarenganure mu byaha babashinjije.

Kizito Mihigo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru uriho ibirango by'umuryango we, ari kumwe n'abacungagereza bamurekuye kugira ngo asange umuryango kuko asoje igihano cye.

Umugabo bigaragara ko akuze cyane, wambaye imyenda isanzwe ikoreshwa n'abantu bari kugororwa mu magororero yo mu gihugu cy'u Rwanda, ari mu rubanza.

Umugabo munini cyane wicaye ku ntebe y'umukara wambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye imyenda yifashishwa n'abantu bari kugororwa, afite ikayi mu ntoki y'ubururu bigaragara ko ari gusoma amakuru.

Igikoresho cyagenewe kuzimya inkongi y'umuriro ahantu byagoranye cyane kandi ikabikora neza cyane, ifite umwuka wabugenewe wifashishwa muri icyo gikorwa.

Abapolisi bahagaze ku muhanda bari gucunga umutekano kugira ngo hatagira impanuka iba ikangiriza abantu ndetse n'ibintu bitandukanye kandi aribyo bashinzwe kurinda.

Inzu nini cyane bigaragara ko ikorerwamo n'ibiro bya polisi y'igihugu y'u Rwanda, hariho imodoka ziriho ibyo birango by'izo ngabo kugira ngo bitandukane n'iby'abandi.

Ikigo kiyiza cyane, cyubatswemo amazu atandukanye harimowo ubwoko bwinshi bw'imodoka, ku buryo ubona ko abahakora ari abakire cyane kandi bafite amafaranga menshi ahagije.

Akamodoka gatoya kariho ibirango bya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, kari mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo n'amatara y'umutuku hejuru, ku buryo ari agashinzwe umutekano wo mu muhanda.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda wambaye ishati ijya kuba umutuku ari kumwe n'umugore bigaragara ko bishimanye cyane, inyuma yaho hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Umugore munini cyane ufite imisatsi myiza, wambaye ishati y'igitenge. yateruye akana gatoya, akandi kicaye ku ruhande, bigaragara ko bavutse kuri uwo mubyeyi.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati, hafi aho ngaho hari abaturage benshi bamukikije bamugaragiye kugira ngo abagezeho ikiganiro yabateguriye kuri uwo munsi.

Abagore batatu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko ari abayobozi mu nzego zinyuranye z'igihugu, bagiye gutangira ikiganiro kuko imbere yabo hariho uruvugiro ruri kwifashishwa mu kurangurura ijwi barimo kuvuga.

Abayobozi bari ahantu hamwe bari kurahira kuzayobora u Rwanda ndetse no kugaragaza ibirango by'igihugu cy'u Rwanda birimo ibendera n'ikirangantego cy'igihugu.

Umugore mwiza cyane wishimye wambaye ishati y'umweru, igitenge ndetse ufite n'imisatsi y'umukara, inyuma ye hari ibiti birebire cyane byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Abaturage benshi cyane bambaye imponzankano y'ubururu ndetse n'iy'umweru n'ingofero mu mutwe bafite amabendera mu ntoki, bari kwamamaza ishyaka ryabo kugira ngo bazaritore bavuga imigabo n'imigambi bazageza ku baturage.

Abayobozi mu nzego zinyuranye z'Igihugu kandi nkuru, bicaye mu cyumba cy'inama kugira ngo baganire ku bitekerezo byagirira abaturage akamaro ndetse no ku mbogamizi bahura na zo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa bari kwifashisha mu gukusanya amakuru n'ibibazo byo gukemura kugirango abaturage bumve banezerewe.

Umugore wambaye imyenda y'icyatsi n'umweru, imbere ye hariho uruvugiro ari kwifashisha kugira ngo atange ikiganiro, ku gihe nta n'umwe utacyumvise kuko ni ingenzi kuri we.

Imodoka nini y'umutuku itwaye ibikoresho by'ubwubatsi birimo umucanga hafi aho ngaho iri kugenda mu muhanda uri kunyurwamo n'abantu benshi batandukanye batwaye amagare, iruhande rwayo hari ibiti birebire cyane.

Ubusitani bwiza cyane bwiganjemo imikindo ndetse n'ibindi biti byifashishwa mu kuyungurura umwuka dumeka, iri hagati y'imihanda ibiri y'impanga, inyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo moto n'imodoka.

Imodoka nini cyane iri mu mabara y'umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi, itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikabavana mu cyerekezo kimwe ibajyana mu kindi, nta muntu n'umwe ugize ikibazo.

Imodoka nini cyane ifite amabara, y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, itwara abagenzi m'uburyo bwa rusange iri kunyura mu muhanda munini cyane kandi mwiza hafi yigare ritwawe n'umugabo wambaye ikoti.

Umuhanda munini cyane uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka zitwaye abantu mu buryo rusange muri yo harimo intebe nyinshi cyane zicarwaho kugira ngo abantu bagere aho bajya badafite umunaniro.

Imodoka nini cyane iri mu bwoko bwo gutwara imizigo myinshi itandukanye, ifite amapine asa umukara, iri kunyura mu muhanda kugira ngo ibashe kugeza imizigo aho igomba kuyigeza.

Umuhanda mwiza cyane ariko bigaragara ko ukuze, hafi aho hari kunyurwamo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu, iruhande rwayo hari ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda mwiza bigaragara ko ari uwo mu mujyi, hafi aho ngaho hari ubusitani bwiganjemo imikindo myiza cyane kandi itohagiye, yifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'ubwoko bwinshi bw'imodoka harimo imwe itwaye ibinyobwa bisembuye biri mumakuleti atukura hafi aho ngaho hari moto itwaye umugore bose bambaye ingofero zitukura.

Abantu bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bafite umugambi umwe wo kuganira, inyuma yabo hari imikindo miremire cyane, iri kuzana umwuka mwiza barimo guhumeka.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigenewe kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abantu kugira ngo babashe gutambuka, bahane umwanya kugira ngo hataza kugira ngo ubangamire mugenzi we.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hafi agiye kugera, hari ibintu bishobora kuba biri mu muhanda, bari kukuraho, agomba kugenda yitonze kugirango adakora impanuka.

Umuhanda munini cyane kandi usukuye, uri hafi y'ubusitani bwiza bwiganjemo imikindo ndetse n'ubundi bwoko bw'indabo zitandukanye, hari kandi ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Icyapa kinini cyane, kirimo amabara y'umutuku umweru ndetse n'umukara, kibuza abantu batwara amagare ko bitemewe kuhanyura kuko byateza impanuka.

Icyapa kirekire kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kigaragaza ko imodoka izo arizo zose zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zemerewe kuhahagarara umwanya mutoya zikahasiga abagenzi.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, mu ishusho ryapan harimo ikirango cy'umukara, ku buryo bigaragara kobwira umuyobozibivuze ko imbere hari undi muhanda ushamikiye mu cyerekezo ari kujyamo.

Imihanda ibiri itandukanye bigaragara ko ari impanga, iri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo imodoka, moto ndetse n'amagare, hariho ubusitani bwiza cyane buri hagati y'iyo mihanda bwiganjemo imikindo n'ibindi biti bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda munini cyane ukikijwe n'ibyapa bigiye bitandukanye bifite n'ubusobanuro bwimbitse ku bayobozi b'ibinyabiziga baba bari kukireba kugira ngo bataza kwisanga mu byago.

Ahantu heza habugewe bigaragara ko ari umuhanda, hari amazu y'ubucuruzi butandukanye akorerwamo imirimo itandukanye, aho ngaho hari amata meza y'umwimerere acururizwamo.

Ahantu heza hari ibikorwaremezo bitandukanye ariko hatari hagera iterambere ryinshi, harimo amazu y'ubwoko butandukanye bwiza kandi agezweho.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, burimo ubuvuzi aho abantu bafite uburwayi butandukanye baza gufatira imiti kugira ngo bagumane ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Uruzitiro rurerure cyane rwubakishijwe amatafari abumbwe muri sima, hejuru y'izo nyubako hari ibigega birebire kandi bibyibushye by'umukara bifata amazi akoreshwa mugihe andi yagiye.

Inyubako nziza yubakanwe ubuhanga, bigaragara ko uwateguye icyo gishushanyo mbonera ari umuntu ukomeye cyane, ikorerwamo imikino y'amahirwe ku buryo uwutsinda bamuhereza amafaranga menshi.

Agashyamba keza kari hafi y'inzira bigaragara ko gatoshye, rifite ibiti by'icyatsi kandi bisukuye, hafi aho ngaho hari imbuto zabyo zitanga ingemwe n'imirama ivamo ibiti.

Inyubako nziza bigaragara ko ari aho bakorera, ibikorwa bitandukanye byo kwisanzura birimo gusabana n'inshuti n'abavandimwe, bakaharara kandi bakamera neza.

Ahantu hanini cyane hari amazu meza kandi yubakanywe ubuhanga, bigaragara ko ari ahantu hanagenewe imiturire, harimo ibiti byinshi by'ubusitani byiganjemo imikindo ndetse n'ibisenge bitagira uko bisa.

Igorofa rirerire ryubakanywe ubuhanga kandi n'ubuhangange bukabije, hariho ibirahuri, amarangi ndetse n'umuriro wifashishwa n'abakorera muri iyo nyubako.

Inyubako nziza cyane iri ahantu hasukuye kandi hafite ibikorwa remezo byinshi bitandukanye, birimowo imihanda, umuriro ndetse n'amazi, hari kandi amasoko n'amavuriro abikikije, ubona ko ari heza cyane.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru yererana cyane, imbere yayo hari uruzitiro ruri kumwe n'ubusitani bwiza cyane kandi bubereye ijisho, bwiganjemo ibiti birebire byifashishwa mu kuyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda mwiza cyane usukuye kandi witaweho, hafi yaho hari ibiti binini cyane, bimeze neza ndetse n'icyapa kibwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko atemerewe kuhagarara.

Umuhanda mwiza cyane uri hafi y'ubusitani busukuye, burimo indabo nyinshi zitandukanye ziganjemo imikindo ndetse n'ibindi biti bituma habaho umwuka mwiza duhumeka.

Abagabo babiri bari kwambukira mu nzira y'abanyamaguru, bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kubanza akareka bakabanza bakava ku ruhande rumwe bakajya ku rundi kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bwabo.

Isangano ry'imihanda myinshi itandukanye ihurirwa ahantu hamwe, hari kunyurwamo ibinyabiziga byinshi bitandukanye birimo amamodoka, moto ndetse n'amagare, harimo kandi inzira y'abanyamaguru bambukiramo kugirango bave ku ruhande rumwe bajya ku rundi.

Isangano ry'imihanda myinshi itandukanye, riri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, birimo amagare, moto ndetse n'imodoka, harimo inzira inyurwamo n'abanyamaguru bataha, bava mu kerekezo kimwe bajya mu kindi.

Ahantu bigaragara ko ari mu mujyi hariho ibyapa biyobora abagenzi ndetse n'ibinyabiziga, hafi aho ngaho hari agashyamba gateyemo ibiti bitoshye neza cyane.

Abantu bahagaze ahantu hamwe, biganjemo abatwara ikinyabiziga cyitwa moto, biragaragara ko ari nijoro kuko amatara ari kwaka cyane, ndetse urumuri ni rwose.

Umuhanda munini kandi mwiza unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, birimo imodoka, moto ndetse n'amagare, harimo kandi abantu bari gutembera hafi aho ngaho bava mu byerekezo bimwe bajya mu bindi.

Umuhanda mwiza cyane uri kunyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye, urimo kandi inzira y'abanyamaguru bifashisha bava ku ruhande rumwe bajya ku rundi kugirango ngo babashe kugira umutekano uha.